Umugabo wambaye isarubeti y'ubururu na ga z'umutuku ndetse n'agapfukamunwa k'umukara, ahahagaze mu muririma w'ibigori arimo aratera umuti yifashishije imashini yabugenewe, iruhande rw'uwo mugabo hari ikigega cy'amazi gisa umukara.

Imirima irimo ibihingwa bitandukanye harimo umusore wambaye umupira w'umutuku ndetse n'ipantaro y'ikoboyi ahetse akamashini kifashishwa mu gutera umuti ibyo bihingwa.

Abagabo ubona ko ari abarobyi, barimo batega inshundura mu cyuzi kugira ngo baze gufata amafi, icyo cyuzi gikikijwe n'insina ku nkombe zacyo.

Igiti gifite amashami menshi ndetse n'amababi. Kuri ayo mashami hariho ikawa zitukura, zahishije ndetse hariho n'ikawa zigisa icyatsi kibisi.

Imisozi myiza miremire kandi myinshi, irasa neza, ihinzeho igihingwa k'icyayi.

Udukarito twinshi tw'ibara ry'umweru, harimo ndetse n'ibara ry'umutuku, twandikishijeho ibara ry'umukara, dushushanyijeho inka, imbwa, intama, ihene ndetse n'andi matungo, utwo dukarito turimo umuti, uvura amatungo.

Umurima urimo ibyatsi cyangwa se ibihingwa bishishe, hagati mu murima baciyemo akayira k'abanyamaguru, bamwe mu basoje gucamo ako kayira bari kuzamuka, imbere habanza hari umumama wambaye igitenge, agashati ndetse n'igitambaro ufite isuka ku rutugu.

Imboga n'imbuto bitandukanye birimo karoti, inyanya, amaronji, ibigori urusenda, imineke, amashu bifite amabara atandukanye, ay'icyatsi ay'umuhondo ay'umutuku, ndetse n'andi atandukanye.

Umurima munini uhinzemo ibihingwa bitandukanye, ariko higanjemo isombe riracyari rito kandi rirashishe.

Imboga, imbuto, ibinyampeke, ibinyamafufu n'ibyo kunywa birimo amacunga, indimu, ibigori, ibirayi, inyanya ndetse n'imitobe.

Umurima munini cyane, uhinzemo ibigori bikiri bitoya, bitarakura biri kumurongo, hakurya ukikijwe n'imisozi miremire.

Umurima uhinzemo ibintu byinshi bitandukanye, harimo ibisheke, harimo imboga, harimo imbuto ndetse n'ibitoki.

Umusozi muremure uteyeho ibyatsi bigufi ndetse hezeho n'ibiti birebire by'intusi.

Imisozi myinshi kandi miremire iteyeho ibiti bishishe hagati y'iyo misozi harimo ikibaya kinini cyane.

Abagore, abakobwa, abana bakiri bato ndetse n'abana bahetswe bari mu murima, uwo murima uteyemo ingemwe nyinshi cyane.

Umurima urimo ibihingwa bitandukanye, harimo akamashini k'umukara, kari kudubiza amazi, kifashishwa mu kuvomerera ibihingwa, mu gihe hari kwirindwa ko hakoreshwa imbaraga z'umurengera z'umuntu ku giti cy'iwe, agenda avomerera.

Umurima urimo imboga ndetse n'ibigori harimo akamashini kavomerera hifashishijwe imirasire y'izuba.

Imashini, ifite, ibara ry'ubururu, yifashishwa mu kuvomera, imyaka, iruhande rw'iyo mashini, hari umurima w'ibigori.

Umugore munini wambaye ikanzu y'umutuku irimo amabara y'umukara n'umweru afite umupira mu ntoki ari kuvomerera ibirayi bihinze mu murima urimo n'urutoki.

Umusore wambaye ipantaro y'umukara, umupira w'icyatsi, n'agapfukamunwa k'umuhondo, ari mu murima urimo ibihingwa bikiri bitoya, arimo arabivomerera, yifashishije akamashini kabivomerera.

Imisozi iteyeho ibiti bitandukanye, hariho amatarasi y'indnganire, munsi yayo hari amazu afite amabati bigaragara ko ayo mazu ashaje.

Imisozi myinshi kandi myiza iriho ibyatsi bitandukanye, iriho ibiti, iriho bihingwa, hakurya y'imisozi hari igicu gisa neza kererana.

Inkoko z'amapondezi zifite ibara ry'umweru n'umukara, zirimo zirarya ibiryo byagenewe inkoko, biri mu kantu kifashishwa kugira ngo bazigaburire bitanyanyagira hasi.

Urwuri rurimo ibyatsi bishishe ndetse rurimo ibiti birebire n'ibigufi, muri urwo rwuri harimo inka nyinshi, iz'isine, iz'ubugondo ndetse n'izindi zitandukanye.

Ikiraro cya kijyambere, kigizwe n'ibyuma ndetse n'amatara n'amabati, ahororerwa inka nyinshi, ku buryo bugezweho.

Urwuri rurimo inka nyinshi z'inyambo, hari abaganga b'amatungo bambaye imyenda y'umweru ndetse n'abambaye imyenda y'ubururu, urwo rwuri urabona ko ruzitiye.

Ikiraro cya kizungu bororeramo amatungo arimo inkoko, muri icyo kiraro harimo umugabo uri gutambukamo yambaye ipantaro ndetse n'ishati y'ubururu, yambaye na bote z'umukara.

Urwuri rugari rurimo ibyatsi bishishe ndetse hatewemo n'ibiti, muri urwo rwuri harimo inka nyinshi zitandukanye, harimo isine, harimo ibihogo, harimo gaju n'izindi.

Imifuka myinshi y'umweru miremire ijyamo ibiro ijana, ipakiyemo imbuto y'umuceri.

Umugabo ufite uruhu rwirabura yambaye isengeri akenyeye n'igitambaro cy'ubururu n'umweru n'umukara ahagaze mu murima munini cyane ukikijwe n'ibiti, uwo murima urahinze ndetse harimo n'imashini ihinga, uwo mugabo afite ikibo mu ntoki arimo arakuramo imbuto agatera mu murima.

Urwuri rugari ndetse ruzitiye rurimo inka nyinshi, hari abaganga bambaye amataburiya y'umweru ndetse hari n'abashumba bambaye amasarubeti y'ubururu, bakurikirana inka umunsi ku wundi.

Abantu babiri umugabo n'umugore, bari mu cyumba cyo kwa muganga kirimo ibikoresho bitandukanye bikoreshwa kwa muganga. Umugore yambaye imyenda y'icyatsi n'agapfukamunwa, umugabo yambaye itaburiya ndetse n'agapfukamunwa k'ubururu.

Umusilamukazi wambaye igitambaro cy'umukara mu mutwe n'itaburiya y'umweru na ga z'ubururu, inyuma ye hari abantu bambaye imyenda y'icyatsi ndetse bambaye iy'bururu urabona ko bahagaze mu rwuri runini cyane.

Ishyamba ririmo ibiti bigufi ndetse ririmo n'inyamaswa ebyiri intare, iy'ingabo ndetse n'iy'ingore.